Kwita ku buzima bwacu dukaraba intoki n'isabune n'amazi meza. Umugore urimo akaraba, akoresheje ubuhanga gakondo.

Umuryango Mpuzamahanga wita ku buzima, abagabo n'abagore bahagaze, biganjemo abambaye imyenda irimo ibara ry'umweru n'abandi bane bambaye imyenda itari umweru bafite ibirango mu ijosi.

Umwana yunamye ku ivomo arimo aroza indobo, iruhande rwe hari izindi ndobo ebyiri, hirya ye hari ibiti bibiri, arimo araseka.

Umubyeyi kumwe n'abana be bari iruhande rw'ivomo, hirya ya bo hari inzu isakajwe amabati y'igaju, ku ivomo hari ikidomora, hari indobo, hari ibase y'amabara atandukanye. Utwana tubiri turiyo turavoma, ku mureko w'ivomo bashyizeho ibasi.

Inyubako abakobwa bayihagaze imbere, hari abantu na bo bahagaze, batondesheje ibidomoro umurongo, umwe muri bo afite ikivomesho mu ntoki.

Abanyeshuri bicaye ku ruziga, bicaye ku mice harimo n'abarimu bahagaze abanyeshuri bambaye udupira tw'amabara y'ubururu n'umuhondo.

Umwana wambaye agapira kari mu ibara ry'ubururu karimo uturongo tw'umukara dutambitse, afite isabune mu ntoki arimo arakaraba, hejuru ye hari umuntu umusukira, afite igikombe kiri mu ibara ry'icyatsi, gukaraba birinda umwanda.

Abantu benshi bakikije ivomo, hirya yabo ba urutoki, umugore arimo aravomera umwana, umwana arimo aravoma, afite ibivomesho, kimwe arimo arakivomera ibindi biteretse iruhande rwe.

Abantu babiri bicaye ku dutebe tw'urubaho, harimo umwe urimo gufasha umukecuru wambaye imyenda iri mu ibara ry'ubururu bwijimye, umukecuru arimo kurira.

Ubuvuzi bw'amenyo uyu musore afite akagozi acisha hagati y'amenyo mu buryo bwo kurinda amenyo ye gufatamo imyanda akangirika.

Ibikoresho byo kwa muganga, byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo, harimo gukura, kwoza ndetse no guhoma.

Umusaza n'umumukecuru bafatanye ku ntugu, umusaza arasoma umukecuru ku itama, umukecuru ubona aguwe neza arimo aseka, abyishimiye rwose.

Umusaza wicaranye umusore barimo basoma igitabo, umusaza yambaye indorerwamo z'amaso, imbere yabo hateretse ibikombe bibiri biri mu ibara ry'umweru, ubona bashimishijwe n'ibyo barimo.

Umubyeyi yicaranye n'umwana aramwitaho amwereka utuntu yashyize ku meza, umwana na we arimo ara arareba ibyo umubyeyi arimo kumwereka.

Abagore n'abagabo bahagaze mu murima, ubona bishimye, bazamuye amaboko hejuru, hari umugore uri imbere uzamuye akaboko wunamye, hari umugabo uri ku ruhande ushyize ukuboko inyuma, ukundi agushyize imbere.

Umuganga wambaye ibara ry'umweru imbere n'ibara ry'umukara inyuma, arimo arita ku mukecuru amukoresha imyitozo ngororamubiri.

Inyubako y'ubuvuzi nini cyane imbere hari imodoka, hari ikinyabiziga kigenda ku mapine abiri, hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, hari ubusitani.

Ntibakwiye kwa muganga umwe abarwayi harimo abaganga, harimo amaraso, amaraso bayifashisha mu gihe bagiye kongerera abantu b'indembe bakeneye guhabwa amaraso.

Inyubako yo kwa muganga ikingishijwe urugi rw'ibara ry'ubururu n'umweru, haruguru hari ibyapa bibiri, hepfo hari icyapa gifite ibara ry'umweru cyandikishije inyuguti z'ubururu, n'umukara, n'umutuku.

Inyubako yo kwa muganga nini cyane, yubatswemo ibaraza ririnda abantu kunyagirwa, hahagazemo abantu batandukanye, imbere h'iy'inyubako, hari ubusitani bugizwe n'ibyatsi biri mu ibara ry'icyatsi.

Inyubako y'ubuvuzi, irimo intebe z'ikijuju, imbere hateretse aho bakirira abarwayi, izi ntebe ni iz'abarwayi bategererezamo kwakirwa, ifite ibara ry'igaju mo imbere mu nyubako.

Inzu y'ababyeyi, aho babyarira, iruhande rwo hepfo hari ameza, hariho igitambaro, abantu bamwe baricaye, hagati hariho umuntu uhagaze wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu, haruguru y'umuryango hari umugabo uhahagaze afite ibyo areba.

Umusore wakoze imyitozo ngororamubiri, afite icupa ryamazi mu ntoki arimo aranywa, afite inyakiramajwi z'umweru mu matwi.

Igikoresho cyo kwa muganga kiri mu ibara ry'umweru, kirimo n'utundi tuntu turi mu ibara ry'ubururu, hariho utundi tuntu turi mu ibara ry'umukara.

Umugabo wambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara, ari mu imyitozo ngororamubiri, apfukamishije ivi rimwe irindi ararishinze yifasheho.

Ibikoresho bya siporo nk'uturindantoki biri mu ibara ry'umukara, ryambawe mu biganza byombi ikiganza kimwe kiriho akamenyetso kari mu ibara ry'umweru.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri idufasha kugira ubuzima bwiza. Arunamye arambuye ukuboko ku kuguru, afashe ku nkweto.

Ibikoresho byo kwa muganga by'ubuvuzi bw'ibanze, biri mu dusanduku tubiri turi mu ibara ry'umutuku, hagati harimo icupa ry'ibara ry'umweru, hirya hari abantu bambaye imyenda iri mu ibara ry'umuhondo, n'aba n'ibindi biri mu ibara ry'umweru.

Imyitozo ngororamubiri, umukobwa wambaye imyenda irimo ibara ry'umukara, wambaye inkweto z'umweru ufite akantu ku kuboko, arambuye amaboko.

Muganga wambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, arakoresha umuntu uryamye imyitozo ngororamubiri, wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, afashe ku kirenge no mu ivi.

Ubuvuzi gakondo bwifashisha ibimera mu kuvura indwara. Zirimo amabara atandukanye nk'imihodo, imituku, icyatsi kibisi n'ayandi mabara menshi aba mu bimera.

Icupa riri mu ibara ry'igaju ririho icyapa cyanditseho umuravumba, umuravumba ni umuti twifashisha mu buvuzi bwa gakondo uvura indwara zitandukanye, harimo inkorora, harimo gapfura n'izindi ndwara zitandukanye, uyu muravumba ni umuti ukomeye.

Ikimera cy'inyabarasanya, gifite ibara ry'icyatsi, kirabya indabyo z'umuhondo n'umweru, kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, mu buvuzi gakondo.

Ibimera biteye biri mu ibara ry'icyatsi, byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, bidufasha mu ndwara zigiye zitandukanye z'umubiri duhura na zo.

Uducupa turimo imiti y'ibimera yifashishwa mu buvuzi gakondo, hari icyapa gisobanuye indwara zivurwa n'iyi miti y'ubuvuzi gakondo.

Ubusitani buteretsemo agatanda, hejuru y'agatanda hariho ibikebe bitatu bifite ibara ry'igaju muri iyi mikebe harimo ibimera bigiye biteyemo.